Abantu benshi batandukanye barimo abambaye imyenda yifashishwa mu buvuzi, bahagaze ku ivuriro ryitwa Girubuzima.

Abantu babiri, harimo umuganga ndetse n'umugore, wambaye agapfukamunwa ndetse na rinete z'amaso, aho afite ubwoba cyane, barimo baramutera urushinge ku kuboko kw'ibumoso.

Icyumba kirimo abantu bane bakuru ndetse n'umwana ukiri muto umwe. Hejuru hahagaze umuntu wambaye ikanzu, arimo arasoma.

Igishusho kiri mu mabara y'ubururu ndetse hejuru hari inzu igeretse, hakaba harimo amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, ubururu n'umuhondo, agaragaza ko ari umwaka nyafurika w’ubuzima bwo mu mutwe.

Abana bambaye amashati afite ibara ry'umuhondo, barimo gusuhuza abantu bakoresheje ikiganza, barimo kwifotoza bari kumwe n'abayobozi babo babari inyuma.

Abana batandatu biga mu ishuri ribanza, bambaye impuzankano ya kaki, aho bari ku mugezi, barimo baravomera mu ndobo, abana bose barishimye.

Umugore ufite imisatsi y'imisukano wicaye aho yambaye agapira k'umweru ndetse yifashe mu mutwe arimo aratekereza kure dore ko afite ibibazo bitandukanye.

Umuntu wambaye ingofero iriho ubwoya, ameze nkaho afite agahinda yipfutse agatambaro k'umweru mu maso.

Umukecuru ufite umusatsi urimo imvi, yishimanye n'abana be harimo umukobwa we ndetse n'umwuzukuru we, wambaye umupira w'umweru.

Inyubako yo kwa muganga iririmo abavuzi batandukanye bambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'umurwayi umwe uryamye ku gitanda.

Ikirango cy'ubufatanye mu by'ubuzima, kirimo amabara y'ubururu ndetse n'amagambo yanditse mu buryo bw'impine.

Igishushanyo kiri mu ishusho ry'uruzigaba, kikaba kigizwe n'amabara atukura, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, hakaba harimo amagambo agaragaza ko ari ayo kurinda kuvaamo kw'inda.

Ifoto igaragaza umunsi Mpuzamahanga wo kwita ku bidukikije n'ubuzima, iriho amatariki agaragaza igihe wizihirizwa. Kuri makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni cyo gihe uheruka kwizihizwa.

Ahacururizwa imiti yo kubungabunga ubuzima hamanitse amafoto yamamaza, hari n'utuyira bazamukiraho binjira muri iyo nyubako.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'umuntu uryamye ku gitanda, hejuru ye hari umugore w'umuganga wambaye imyenda yamugenewe arimo aramwitaho.

Inyubako yo kwa muganga igeretse, aho hari abantu benshi bambaye impuzankano y'abanyabuzima ndetse imbere hakaba haparitse imodoka iri mu bwoko bw'amavwatiri.

Umugabo ufite ubwanwa ndetse wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu, arimo kunywa amazi.

Inyubako yo kwa muganga irimo amabara y'umweru ndetse n'igikoresho baryamaho iyo bagiye kunyuza umurwayi mu cyuma.

Agakoresho ko kwa muganga gakoreshwa batwara abantu bagize ikibazo muri siporo, mu ijambo rimwe kitwa burankari.

Ameza arambitseho ubwoko bw'imbuto butandukanye ndetse n'umutobe, ukozwe mu maronji, iruhande hari tangawizi zirambitse ku gatambaro.

Agacupa gato gafite ibara ry'umweru, gashobora kuba karimo umuti, kandikishijweho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'udukarito tw'amoko menshi, turimo imiti ya gakondo itandukanye yamaze gutunganywa, buri gakarito inyuma hari ibirango bigaragaza ubwoko n'imiti birimo.

Ubucupa butandukanye, burimo imiti ikomoka ku bimera gakondo n'ibikakarubamba ndetse n'ibindi.

Imiti gakondo itandukanye iri mu bikoresho bitandukanye, ubwoko bumwe ku bundi, imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Uducupa dutatu ndetse n'agakarito, tubiri muri two ni utw'umuhondo, ndetse agakarito kariho ibara ry'icyatsi kagaragaza ko imiti iba irimo iva mu bimera gakondo.